Ashuri yo mu mujyi rero abana baba bafite umubwenge, kubera ko bigira ahantu hari amashanyarazi ahandi ni mu makaro, niyo mpamvu hatandukanye n'amashuri yo mucyaro, amashuri yo mu cyaro kubera ko baratahaga bakaja kwigira ku itara cyangwa kuri ka buje ku bagafite, niyo mpamvu rero abana bo mu mujyi baba bafite ubwenge butandukanye n'ubwabo mu cyaro.

Amashuri ya pirimeri uyasanga ahantu henshi cyane, nta murenge waburamo ishuri rya pirimeri, ariko hirya no hino ba rwiyemezamirimo nabo bagiye bubaka amashuri yabo, n'ubwo aba ahenze, ariko afasha abana benshi mu ireme ry'uburezi.

Mu Rwanda dufite ireme ry'uburezi kandi uburezi bwatejwe imbere cyane. Kubera ko nta Murenge wageramo ngo uburemo amashuri abanza ndetse n'ay'inshuke, kandi n'ayisumbuye arimo ariyo tuwerive bazike edikesheni. Ubwo rero mu mashuri na ho abana barahiga cyane.

Mu bigo by'amashuri cyane cyane iby'igenga, ari byo bita pirive, ni byo bikunda kubonekamo ibibuga. Ibibuga by'abanyeshuri byo gukiniraho bimeze neza bisobanutse. Urabona ko n'ibikinisho byo gushimisha abana bakiri bato.

Uburezi mu Rwanda bumaze gutera imbere, kuko hambere mu myaka yashize wasangaga amashuri yitabirwa n'abahungu gusa, ariko ubu n'abakobwa na bo bajya ku ishuri kandi ugasanga bafite n'amanota meza.

Kwiga biba byiza cyane, kubera ko havamo ubumenyi bwinshi. Noneho mu Rwanda ireme ry'uburezi ryarabonetse cyane, kubera ko n'abari ndavuga abakobwa, na bo rwose bakanguriwe kwiga cyane, kandi baba n'abanyabwenge.

Kwiga guteka umuntu aba ahisemo neza. Kubera ko guteka ni ingenzi cyane mu buzima, kandi ntiwabaho udateka. Abantu bateka rero kandi barabyigiye, baba bafite amafaranga kubera batabura akazi muri hoteri, banashinga akaresitora cyangwa se .

Abantu bize umwuga wo kudoda ari bo bita abatayeri, na bo bariteganyirije cyane, bize ibintu byiza cyane, kuko nta muntu ubaho atadodesheje, utadadehesha umwenda mushya, ariko n'umwenda wacitse nawo urawujyana bakawudoda.

Uburezi bwateye imbere cyane cyane, kubera ko mu myaka ya kera higaga abahungu gusa, abakobwa bigumiraga mu rugo iwabo, urabona ko rero aha ngaha, abahungu n'abakobwa bose bari ku ikoranabuhanga rijyanye n'uburezi, rero ni bwubahwe na buri umwe wese.

Umwuga ni mwiza cyane kubera ko uzana amafaranga menshi, kandi umwuga ntukiri uw'abahungu gusa kuko n'abakobwa na barabwiga, kandi utuma bamenya, kandi na bo barashoboye . Rero ntimugakumire abana banyu b'abakobwa muzabohereze muri kino kiruhuko bigane na basaza babo.

Uburezi mu Rwanda bumaze gutera imbere cyane ,kuko amashuri amaze kuba menshi ,kandi amashuri ya pirive nayo amaze kuba menshi cyane ,kandi afasha abantu benshi kubera ko abifite batunze bafite amafaranga bajyanayo abana babo.

Uburezi mu Rwanda bumaze gutera imbere, kuko aho usanga buri murenge baragiye bubaka amashuri yisumbuye, ariko tuwereve ndetse na prayimari usanga zihari, ndetse hari na gap. Rero ireme ry'uburezi ni yo mpamvu riri gutera imbere.

Amahoteri yo mu Rwanda ndetse n'utubari twihagazeho tumeze neza，dukunda gukoresha abagore n'abakobwa，kuko batanga serivisi nziza. Burya igitsinagore gitangaga serivisi nziza ugereranije n'igitsinagabo. N'ubwo n'abagabo nabo batanga serivise nziza. Ubwo rero iyo wabonye umugore ufite disipurine kandi uzi ibintu abikora neza.

Uburezi mu Rwanda bwateye imbere cyane, kubera ko n'abari nabo bitabira kwiga. Mu myaka yashize higaga abahungu gusa, ariko ubu usigaye ubona mu ishuri harimo n'abakobwa, kandi aribo benshi kuruta abahungu. Ubwo rero ntihakagire umwana uguma mu rugo, kuko bose bagomba kujya kwiga.

Wasangaga abari, baritabiriye amasomo cyane cyane bibwira ngo ni " ay'abahungu", ubwo ndavuga ay'imyuga. Rero hari Imirenge myinshi, usangamo amashuri nka peretefope. Peretefope rwose bafite amashuri meza cyane, kubera ko bafite abakobwa bigamo.

Imisatsi ni icyintu cyiza cy'ingenzi kubera ko cyane cyane nko ku gitsinagore: abari n'abategarugori iyo batunganije imisatsi yabo biba byiza cyane, kubera ko bituma uburanga bwabo buba bwiza kandi bagasa neza. Ubwo rero, buri wese yakagombye kuzirikana ko gukora isuku, yuko no ku mutwe, ku misatsi ni byiza cyane, murakoze.

Amashuri y'imyuga nayo aba ingenzi cyane, kubera ko umuntu wize umwuga ntabwo ashobora kubura akazi, abona icyakora byihuse, kuko ushobora kujya no mu ibarizo bakaguha ibiraka, ushobora kujya no mu ruganda ugakora. Umwuga rero ni mwiza cyane, cyane cyane nkaba babaji.

Uburezi mu Rwanda bumaze gutera imbere cyane, kubera ko nta murenge wageramo ngo usange hatarimo amashuri. Kandi harimo na za sekendari, ntabwo za purayimari gusa, nukuvuga ngo umurenge wose wo mu Rwanda, urimo buririmo twerive.

Kwiga ibijyanye n'ikoranabuhanga biba byiza cyane, ubu rero n'abakobwa na bo barabikunze cyane, na bo usanga bari kwiga ibintu bijyananye na elegitoronike, kubera ko ubu ngo abakobwa nta kintu bagihezwaho kubera ko byose barabishoboye, kandi koko iyo ubarebye n'amanota baba bagize, usanga abakobwa benshi bari imbere y'abahungu.